Uruhurirane rw'abahinzi ruri kuganira ku by'umusaruro wabo ndetse n'ubuhinzi bwabo, bafite umuntu ubarongoje imbere kandi bamuteze amatwi, bari kuganira ku buryo umusaruro wabo wajya ugezwe ku isoko.

Uruhurirane rw'abaturage bari gukora amaterasi, bakora amasuku aho hantu hari amaterasi. Biragaragara rwose ko bunze ubumwe, urabona yuko basenyeye umugozi umwe kugira ngo ahantu batuye hagaragare isuku.

Abantu bari gusarura igihingwa cyitwa amashu, ni igihingwa cyiza, ni imboga dukoresha mu rugo mu buzima bwa buri munsi ,ziturinda indwara, urabona rwose ko na bo bishimiye gusarura ayo mashu.

Igihingwa abantu bazi nk'avoka, bari kutwereka uburyo gihingwa mu gihe kikiri gitoya, uburyo tukitaho paka kimaze gukura, ubutaka bwiza, kugisasira mbese ibyo twakora byose kugira ngo icyo gihingwa gikure neza.

Ubwoko bw'ibigori abantu benshi bakunda buba bufite amabara menshi, ubu bwoko bw'ibigori buraryoha cyane cyane iyo bwokeje umuntu araburya akumva aranyuzwe, gusa kugira ngo uzayibone biragora.

Inyamaswa iri mu ishyamba，yuriye igiti ifite ubwoba mu maso，isa nk'aho yikanze umuntu，urabona ko iri guhunga， ishaka kujya kure y’uwo muntu.